Hagaragaramo umugore uri gutanga ibiganiro mu bantu benshi, akaba ari mu itenti ryo mu bwoko bw'ihema rifite ibara ry'umweru, rikaba rizengurutseho idarapo ry'u Rwanda rifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Hakaba hagaragaramo abayobozi bari kuganira bahana n'inama zitandukanye, bose bari kuri mikoro bafite mikoro imbere yabo kandi buri wese akaba afite agacupa k'amazi ya nili.

Ahagaragaramo ibitaro bikuru bya leta bya Nyarugenge, hakaba ibitaro bikaba byanditswe mu izina ry'umweru inyuma akaba ku gikuta ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Icyumba cy'abarwayi kwa muganga, harimo igikoresho cyongera ubukonje cyangwa ubushyuhe mu cyumba, hakaba harimo ibitanda bibiri ndetse n'ibikoresho bibiri bikoreshwa mu gupima umurwayi.

Hagaragaramo aho umugabo ari, ahatangirwa serivisi zitandukanye, akaba ahagaze mu kadirishya asabiramo serivisi ashaka.

Ahagaragara jaride nziza irimo ubwatsi bwiza, ndetse n'utundi duti duto duteyeho, hakaba hagaragaramo ibiti birebire by'umukindo bikikijwe n'amatafari y'umuhondo, hakaba hagaragaramo amazu yubakishijwe n'amatafari ndetse n'amamodoka aparitse.

Ahagaragaramo abantu baje kwivuza kwa muganga, hakaba hagaragaramo umuganga wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru ari kwakira umurwayi, hakaba hagaragara n'abandi bari gusaba serivisi.

Aha hagaragaramo igororero rya Musanze, iri gororero rya Musanze akaba ari gororero rijyanwamo abantu barya ruswa.

Hagaragaramo imfungwa ebyiri ziri kuburanwa n'abaturage, hakaba bari, imfungwa zikaba zambaye imyenda y'iroza.

Ahagaragaramo abacamanza batatu bambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse n'imyenda y'umukara n'umweru. Hagaragaramo imfungwa yambaye imyenda y'iroza ndetse n'umuburanira uri iburyo bwe, akaba yambaye nawe agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'imyenda y'umukara.

Haragaragaramo ikinyabiziga cya polisi gitwara abapolisi bageze muri cumi n'umwe. Inyuma yaho hakaba hari nabwo ibinyabiziga bya polisi biri mu bwoko bwa moto buri kimwe, gitwara abapolisi babiri.

Ahagaragaramo umuhanda urimo kaburimbo, hakaba harimo igiti kimwe, hakaba harimo umupolisi uri kugendana n'umunyamaguru, hakaba hanagaragaramo moto.

Hakaba hagaragaramo ikinyabiziga gitwara abagenzi, harimo ikamyo yikorera imizigo iremereye, harimo nk'amakontineri ndetse n'ibindi. Hakaba harimo umunyonzi wikoreye umufuka wa kiro jana.

Amakamyo abiri ari mu makamyo yikorera imizigo myinshi, ikamyo ya mbere ikaba iriho ishitingi y'umukara, ikamyo ya kabiri ikaba irimo imifuka myinshi.

Umuhanda urimo imodoka iri mu bwoko bw'amakamyo, akaba ari ikamyo y'ubururu ndetse n'umweru. Iburyo bwayo hakaba hari umunyonzi utwaye igare ndetse n'umugenzi atwaye.

Icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bya mpandeshatu, kikaba ari icyapa kimwibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ndetse n'umukara, kikaba kigaragaza aho umugenzi w'umunyamaguru yambukira.

Umuhanda urimo abanyamaguru benshi hakaba harimo icyapa kigaragaza aho imodoka ziparika, ikaba harimo ubwatsi bwinshi hakaba harimo n'ibiti bimwe na bimwe biteyemo.

Icyapa kiri mu muhanda kiri mu bwoko bwa mpandeshatu ariko icuritse. Iki cyapa kikaba kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, kikaba gihagaze ku cyuma cy'icyatsi.

Ahari ibyuma bya feruje, ibyuma bya feruje akaba ari ibyuma bihagarika imodoka ndetse bikanatanga uruhushya kugenda rwo gutambuka mu muhanda ,hakaba hagaragaramo imodoka iri mu bwoko bwa bisi itwara abagenzi hakabagaragaramo amamodoka arimo ubwoko butandukanye ndetse na moto.

Ahagaragaramo izina ryitwa Kinyinya, hakaba harimo ahantu hari ubwatsi bugari, buri ahantu henshi, hakaba harimo ibiti kandi byinshi, hakaba hanagaragaramo amazu yo mu bwoko bwinshi kandi menshi.

Ahagaragara ahantu hari amazu menshi hakaba hari umuhanda w'igitaka hakaba hagaragaramo ikamyo iri guterera muri uwo muhanda ndetse hakaba hari n'ibiti byinshi.

Ahari inyubako y'ubucuruzi ifite ibyumba bitatu, hejuru kuri iyo nyubako hakaba hari icyapa cyamamaza ikinyobwa gisembuye cya virunga, aho inzu ihererera hakaba hari akazu ka emutiyeni gatanga serivisi zitandukanye za emutiyeni.

Hagaragaramo imodoka iri mu bwoko bwa toyota lava fo ikaba ifite purake ya e a i magana ane mirongo irindwi n'umunani de, ikaba iri aho bacuruza ibinyobwa bisembuye biri mu bwoko bwa wayini na rikeri.

Hagaragaramo inyubako nini y'ubucuruzi, hakagaragaramo ama modoka menshi mu muhanda, hakaba hagaragaramo umumotari wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu akaba afite kaske nabwo y'umuhondo, hagaragaramo umugenzi w'umunyamaguru wikoreye igikapu cyo mu mugongo gifite ibara ry'umukara.

Imihanda ibiri ihura hakaba harimo igiti kiri mu bwoko bw'umukindo, hakaba hagaragaramo ubwatsi bwiza buteye hagati y'aho igiti cy'umukindo kiri.